Ifoto iragaragaza abantu bane, babiri ni bo bagaragara neza, umwe w'umuhungu wambaye akabaga n'undi w mukobwa, n'amacupa y'amazi abari iruhande apfundikiye.

Abantu barindwi, abagore babiri, abagabo bane, umuzungu umwe, intebe, uducupa twamazi, mikoro.

Inzu icuruza ibiribwa n'ibinyobwa harimo amata ya mukamira, hakaba harimo firigo ikonjesha ibyo kunywa twaramo umuntu w'umukiriya umaze kuyifata ibyo amaze kurya no kunywa agiye kwishyura yambaye ishati y'umakara rukara.

Abantu b'ingeri zitandukanye barahagaze bari kwifotoza harimo; umugore, harimo umukobwa, ndetse abasigaye n'abagabo bambaye amakositimu. Inyuma yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'ubwisungane mu kwivuza.

Inoti z'amafaranga ya rimwe y'Amashinwa hariho isura y'umuntu n'amagambo yo mu gishinwa n'imibare isanzwe.

Abantu benshi, ameza, telefone, uducupa tw'amazi, impapuro, intebe, amarinete.

Inzu, igiti, ipoto ry'umuriro, insinga z'umuriro, amabati ku ruhande.

Inzu purafo amadirishya, intebe abagabo batanu, umucamanza umwe ababurana bane.

Imodoka ebyiri za polisi, umupolisi, icyombo, inzu, amapave, ibiti.

Moto ,icyatsi ,imodoka ,amazu ,igipangu ,igiti ,kaburimbo.

Umuhanda, imodoka eshatu, abantu, shitingi, amakarito, amabati ingorofani.

Abantu babiri igare, imodoka,, kaburimbo, ibit,i agafuka, indobo.

Abantu, moto, imodoka, shitingi, amapine, kaburimbo, igitare.

Imodoka, ibiti, kaburimbo, icyapa, ipoto.

Kaburimbo imodoka yigitare, amapine y'umukara, umunyonzi, igare, ibiti, umuntu.

Intebe nyinshi z'icyatsi, ibyuma, abantu, esikariye, amakaro, agacupa ka inaji.

Icyapa cyanditseho mirongo itandatu ibara ry'umutuku, igtare n'umukara. Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu moto n'ibiti biri kuruhande.

Abantu, imodoka, inzu ,nsinga, ipoto, kaburimbo, imitaka ibiri, n'abagenti ba emutiyeni.

Moto, gaze, abantu babiri, inzu, imikindo, igipangu.

Ibiti, ibyatsi, cyapa, indabyo, inzu, amabati.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

Ibiti , kaburimbo, indabyo, amapoto y'umuriro, imodoka. ibiti byishi

Mu muhanda, indabyo, amapoto, ibiti, imikindo, imodoka insinga.